Ahantu abantu bacururiza haba hameze neza, hari ameza arambuyeho amatapi n'intebe zisa n'umweru, imiryango ziba zikinguye harimo abantu baba bari gucuruza abandi baza baje kugura.

Ahantu abantu banywera haba ari heza cyane. Habamo ameza baterekaho amacupa, iyo bari gusukira abantu. Kandi aho hantu bahita muri bara. Ikindi abantu bacuruzamo baba bambaye imyenda y'iniforume ibaranga.

Ahantu abantu banywera bahita muri bare, habaga harimo uturabo twiza n'ameza hamwe n'intebe, haba harimo n'abana bane bishimye cyane bamwe bamanitse n'intoki bambaye imyenda z'amabara y'umukara harimo n'utundi tubara.

Ahantu heza cyane habamo n'amakaro, kandi hakabamo n'intebe nziza, hakabamo n'ameza, haba habereyemo nk'ibirori, cyangwa se abantu bakajya kuraramo nk'igihe bagiye bukabiriraho, cyangwa na none abantu iyo bakoze ubukwe bajya gutiramo sare bakayikodesha bagakoreramo.

Ahantu bacururiza ibyo kurya, haba harimo ibintu bitandukanye, abantu baza kugura kandi haba ari heza cyane, kuko haba hatatse n'indabo, abakiriya iyo baje bahishimira, kuko haba hari no guhumura.

Ahantu banywera inzoga haba ari heza cyane harimo ameza ndetse n'intebe hateretse n'ikirahuri banyweramo, haba harimo n'utuntu twubatse dusakaje umutaka gusa n'umutuku kandi ni mo abantu bicara bari kunywa inzoga.

Amafi aba mu mazi, bayashaka bakajya kuyaroba, bakayagurisha. Kandi agira inyama nziza cyane z'umweru. Ari mu byubaka umubiri, ikindi na none bayateka no muri bale, abantu baza kunywa bakanagura n'amafi.

Ahantu bacuruzaa ibyokurya, bagira za burushete ziba zokeje ku mishito ikindi nanone bateka n'ibirayi biba bisatuye bya mucuma babiteka mu mavuta, iyo bagiye kuguha bagushyirira ku isahani iba isa n'umweru.

Inzu bacururizamo inzoga harimo inzoga zitandukanye harimo pirimusi, mitsingi, ibyuma. Ikindi kandi harimo na fanta na novida kandi bacuruza izi nzoga ziteretse mutu etajeri.

Ahantu abantu banywera haba ari heza, haba harimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza abantu bariraraho bakananyweraho. Ikindi kandi haba hari kwaka n'amatara harimo n'abantu babahereza ibyo baje gushaka haba hajemo abantu batandukanye, abagore n'abagabo.

Ahantu bacuruza inzoga zitandukanye ziba ziri mu tu etageri, bahitaga muri bale. Kandi niho abantu bajya kunywera. Abagore batwite ntabwo bagomba kunywa inzoga ndetse n'abana bakiri batoya ntabwo banywa inzoga.

Ahantu banywera bahitaga muri bare, haba harimo ameza n'intebe kandi banyweramo amayoga, bakanariramo ibiryo ndetse hari n'igihe haba harimo televiziyo, iyo umuntu yashatse, gukora ubukwe atanga amafaranga akabukoreramo.

Inzu bacururizamo ziba zubatse neza cyane, hejuru haba hashushanyijeho n'ibyo bacuruza. Imiryango imwe iba ikinguye iyindi ikinze, kandi hanze haba hahagaze abantu ndetse hateyeho n'igiti cya pinusi.

Iyi nzu yubatse neza, iri mu mazu bubakaga bashyize amakositara mu mpande, uko ubigaragara isakaye neza, kandi irimo n'umuriro kuko insinga zigiye zinyuze mu mpande.

Ahantu bacuruza telefoni kandi bakanazikora, bagira ibyapa bishushanyijeho ibyo bakora n'ibyo bagurisha, kandi nanone bagashyiraho na nimero zabo, kugira ngo umuntu naza kubashaka akababura abahamagare kuri telefoni. Kandi za terefone ni ingirakamaro cyane kuko tuzikoresha turi gukora ibintu bitandukanye.

Amazu bacururizamo aba yubatse neza, ateye karibasasu arimo n'amakositara, afite imiryango ine, yose icururizwamo kandi ibaga ikinguye, harimo n'abantu bacuruza, hari n'ibidomoro hanze ku muryango.

Ahantu bacuruza ibikoresho habamo ingorofani n'ibihombo ,amatiyo ndetse bagiraga n'udutanda bayungururisha umusenyi ikindi kandi haba harimo n'imikubuzo yo gukubura mu nzu hamwe n'imikoropesho bakoropesha kandi biba birambitse ku mapapa.

Ahantu bacuruza ibyo kurya, baba baranditseho ibyo bagira haba harimo amagi meza ndetse n'inyama z'inkoko nziza cyane, n'abashoferi bakatirayo bagiye kugura ibyo kurya, ikindi kandi amagi ni meza ku bana bakiri batoya, iyo bari kurya ukabaha n'amagi bakurana ubuzima bwiza.

Kantine iri mo utubati bacururizagamo za fanta zo mu ducupa, ji za sarama, imineke, mitsingi, za novida, harimo na firigo irimo ududobo twa arindwi tw'amata na za yawurute.

Ahantu bacuruza imyenda yo kwambara bakagira n'imisego yo kuryamaho. Ndetse n'ibyo kwiyorosa bagira na za supanete, n'ibitenge kandi bacururiza ahantu heza cyane. Abantu baza kuhagurira bishimye kuko bagira n'imyenda myiza.

Inzu bazubaka neza bakazisakaza amabati asa n'umutuku, kandi ziba zifite n'igipangu kimeze neza, gisize n'amarangi y'umukara, ndetse n'akandi gafite andi mabara, ikindi kandi haba hometseho n'amazu bacururizamo.

Inzu yubatse ishakaje amabati g'umutuku, imiryango zayo zirarangaye ku muryango gumwe hari umuntu uhagaze ahetse igikapa, imbere y'iyo nzu hari ibiti bibiri bya pinusi, ku giti kimwe iruhande hicaye umugabo ku rundi ruhande hari igare kandi na none imbere y'iyo nzu hateye indabo nziza bakataga neza.

Amazu go gucururizamo, bacuruzaga ibitambaro bitandukanye bibaga bifite amabara atandukanye; agumukara, agumutuku, agumuhondo ndetse n'agubururu. Ikindi kandi ni inzu ibaga yubatse yometseho n'amakaro ndetse iriho n'itara ryo hanze bacanaga iyo bwije.

Ahantu bacuruza bagira ibintu bitandukanye harimo: amabase, amasafiriya, indobo, imikoropesho, ibikapu bita ibirondoni, bakanagira n'udusharupe ndetse n'amakuvurori, nanone bagira n'udukapu tw'abagore tw'utumarete ,ku ruhande bagira na papeteri ariko iba ikinze.

Ahantu bacuruza, imbere haba harimo amakaro, hanze haba hari amapave, ku muryango haba hari ibikarito bibamo ibintu bacuruza. Ikindi no hejuru haba hari ibintu bacuruza barabishushanyijeho barashizeho na nimero zabo abantu baza kubashaka bakababura bahamagara kuri telefoni.

Inzu bacururizamo, ziba zubatse neza cyane, zometseho n'amakaro, kandi inzugi ziba zisize amarangi y'icyatsi, hariho ahaba hakinze, ahandi hakinguye harimo n'abantu, bari gucuruza, n'abaje guhaha, ku muryango haba hateretse n'imifuka irimo ibyo bacuruza.

Inzu bacururizamo ifite amarangi y'umutuku, kandi bacuruza n'amayinite ya eyateri, haba hari inzu ishaje, kandi ikinze inzugi na sima yarashaje, ikindi na none imbere ku mbuga haba hari amabuye.

Umuntu ucuruza ku muhanda agira imitako y'abagore harimo udusaro, amaherena, imikufi, udukomo, two kwambara ku kuboko. Ikindi kandi acuruza yicaye iruhande rwabyo, kugira ngo abantu baje kugura abagurishe.

Ahantu bacururiza haba hubatse neza, imiryango ikinguye. Haba hateyemo n'amakaro hasi, kandi bagira na kontwari, baba bafite ubuki, amavuta, ibibiriti n'ibindi bintu bitandukanye. Haba harimo umuntu uri gucuruza kandi haza n'abandi baje kugura.

Ku isoko bacuruzaga imyenda zitandukanye， harimo ikanzu y'umutuku ifite amabara y'umukara， ikanzu y'umukara ifite amabara y'umweru， ikanzu y'umuhondo ndetse n'ipantaro ifite n'agapira kayo， ikindi kandi bashyizeho na nimero zabo kugira ngo abantu bazaja baza kubashaka bakababura baje babahamagara.

Igikarito cy'umutuku cyanditseho ngo majike harambitseho ibindi bintu by'umweru hepfo hari ikindi gikarito cyanditseho ngo medi ini chayina iruhande hari ibindi bintu bihabiriye bimeze nk'uduti byose birambitse ku mapave.

Ahantu bacururiza haba ari heza cyane. Inzu izamutse hejuru ifite n'akantu bugamamo, imbere kandi haba hakinguye, bacuruza ibintu bitandukanye, harimo na za ji za salama, kandi hanze haba hari n'ubutaka bwa MTN bacururizamo amayinite.

Ahantu bacuruza amatelefone bakanayakora ndetse bagira naza kompyuta, umuryango urakinguye hahagaze umuntu mu muryango bacuruza n'udufuka ndetse n'ibindi kandi ikindi hari na nimero zabo iyo uje kubashaka ukababura ubahamagaraho.

Ahantu bacururiza za gaze ziba zanditseho sipe, kandi bagacuruza n'amazi aba yaditseho jibu. Amwe aba ari mu macupa, andi ari mu tudomota. Baba bayateretse mutu etajeri, andi ateretse mo hasi. Kandi ni ahantu baba barubakiye kugira ngo abantu bajye baza kuyahafata.

Inzu bacururizaho ziba zubatse neza zometseho n'amakaro, hejuru hariho n'igipapuro baba baditseho ibyo bacuruza, ariko iyo miryango iba ikinze ku ruhande na ho hari uwundi muryango na wo uba ukinze, imbere hari abantu baba bahagaze baje kugura bagasanga hakinze.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza zometseho amakaro, umuryango gwa mbere gurakinguye hahagazeho abantu baje guhaha, hariho imifuka ebyiri, hariho n'agatebe. Hakurikiyeho imiryango ebyiri zifunze, hari umuryango umwe hari igipapuro kimanitse kigaragaza ibyo bacuruzaga, hari n'umuntu uri kuzamuka haraguru hariho moto n'umuntu wicaye mu muryango.

Inzu bacururizamo iba yuzuyemo ibikarito byinshi bitondekanyije, kandi biba byanditseho ngo diyamonde, ikindi biba biri ku mbaho kandi nanone hasi haba hateretseho ibindi bikarito, biba byanditseho ngo majike.

Inzu y'ubucuruzi ya kekayori yanditseho ngo hano ducuruza amarangi, hariho na nimero yabo ya telefone ku buryo ubabuze abahamagara ho. Bacuruzaga amarangi mu bidomora harimo ibidomora by'umuhondo ndetse n'iby'umukara, hakabamo n'amarange ari mu ndobo.

Inzu bacururizamo ni nziza cyane zubatse neza ,zometseho amakaro imiryango imwe irakinguye indi irakinze ,mu miryango ikinguye abantu bari guhaha hateretse n'amagaze ku muryango ndetse hicaye n'umuntu ucuruza amayinite, na ho imbere hari umuhanda wa kaburimbo hari n'amamoto ahaparitse.

Ahantu bacuruza bagira imyenda itandukanye harimo: amakoti, amashati, ndetse bahanagura n'inkweto. Banditse na nimero zabo za terefone mu gihe waje kubashaka ukababura ubahamagaraga kuri terefone.

Ahantu bacururiza haba harimo; amaradiyo ya bafure, imashini idoda, bakagira n' ingoma za kizungu bavuza, bari mu rusengero cyangwa se bagiye mu birori runaka, kandi ku muryango haba hari agatebe k' umweru, umuntu ucuruza aba yicayeho.

Inzu bacururizamo irakinguye, hicaye umuntu ku muryango yambaye umupira w'umutuku ,imbere harimo contwari ku ruhande hari agapapuro kanditseho ngo ibigwi farumasi tubafitiye imiti y'amatungo y'ubwoko bwose, tubafitiye imiti y'ibihingwa y'ubwoko bwose ,murakaza neza !Handitseho na numero zabo kugira ngo umuntu uje kubashaka akababura abahamagare kuri telefone hanze harambitse n'intebe y'urubaho ku ruhande hari indi nzu ikinguye iriho abana bahagaze mu muryango.

Inzu bacururizamo ziba zifite imiryango minini, kandi inzugi ziba ziteye amarangi y'ubururu harimo na serire, ndetse bagakingisha n'ingufuri kugira ngo batabiba. Imiryango imwe iba ikinguye indi ikinze, kandi haba hahagaze n'umuntu ku muryango.

Inzu bacururizamo ibikoresho by'ubwubatsi irakinguye harimo imikubozo, imikoropesho udutanda hejuru hashushanyijeho ibyo bacuruza k'umuryango umugabo ucururizamo arahahagaze.

Inzu bacuruzagamo zubatse neza zishakakaje amategura zisize n'amarangi kandi zimanitseho n'ibipapuro bigaragaza ibyo bacuruzaga ku muryango hari abantu hari n'imodoka kandi hariho n'umutaka gwa emutiyeni bicaragamo bari gucuruza amayinite.

Amazu bacururizamo aba asize amarangi y'umuhondo ndetse n'ay'ubururu, haba hamanitse n'imifuka ariko imiryango imwe iba ikinze indi ikinguye, hariho n'imifuka irimo ibyo bacuruza kandi haba hari n'amahema, yanitseho amasaka bacuruza.

Uruja n'uruza rw'abantu bamwe bari ku magare abandi bari kuri moto abandi baragenda n'amaguru iruhande ku muhanda hari amatara hubatse amazu meza cane hari n'icyapa cyanditse ngo ngo fesibuke moteli.

Amazu bacururizamo, haba hari n'ay'ama etaje, imiryango iba ikinguye, haba hashushanyijeho n'ibintu bacuruza, ikindi nanone imbere haba hari abamotari bategereje abagenzi, ndetse n'imodoka ziba ziparitse.

Inzu bacururizamo none bamanitseho igipapuro gishushanyijeho ibyo bacuruza harimo inkoko, ifi, ifiriti, burushete, agatogo, boyiro, igiti, igisafuriya, urukwavu, akabenzi, akaguru k'inkoko n'ubugari kandi ibi bintu ni byiza cyane.

Nk'uko bigaragara aga mazu gubatse ku muhanda. Ni amazu meza cane kandi ni amazu y'ubucuruzi, mu muhanda hari umuntu uri kugend, kandi hari amapoto acanira abagenzi.

Inzu bacururizagamo ziba zubatse neza zisakaje amabati y' ubururu kandi ni miryango ebyiri ziba zikinguye, umuryango umwe urimo igitambaro cy' umweru, undi urimo igitambaro cy' andi mabara kandi uw' undi muryango umwe uriho akantu bacururizagamo injugu; kandi injugu ziva mu bigori.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza zometseho amakaro umuryango umwe gurakinguye hejuru hari igipapuro ca Eyateli imbere hari abagabo babiri umwe yambaye umupira g'umweru undi yambaye agasengeri k'umutuku haruguru yaho hari abantu bicaye inyuma yabo hariho umufuka nanone haraguru hari abandi bahagaze ndetse na moto.

Inzu bacururizamo zubatse neza ziteye kabarasasu zifite n'udukubo hejuru dusa n'umweru batejemo amarange y'umweru imiryango imwe irakinze iyindi irakinguye imbere yayo haparitse amagare y'abanyonzi.

Ahantu bacururiza haba hafite imiryango ikinguye inzugi zibaga zisize amarangi kandi bacuruza ubuki zaji ndetse n'ibindi. ikindi nano hejuru habaga hari ibyo bacuruza. iyo abantu baje kugura bamanza bareba.

Inzu nziza cyane zubatse neza, haba hariho izigereretse hejuru zifite n'utundi tuntu. Hejuru kandi ziba ziri ahantu hakorutiriye. Inyuma yazo haba hateye ibiti bivaho amatanda kandi izi nzu bazicururizamo ibicuruzwa bitandukanye.

Abantu bajya gutemberera ahantu heza cyane bita muri hoteri. Hanze haba hari amapave. Kandi bagira na pisine, abantu bogeramo. Iyo baba bashaka ikindi, nanone, baba barahinze n'ubusitani abantu bifotorezamo.

Ahantu bita muri hoteli, ni ahantu haba ari heza cyane. Harimo intebe zifite imifariso y'umweru. Kandi haba harimo n'utumeza duteretseho indabo. Iyo abantu baje kwiyakiriramo bicara muri izo ntebe bakabazanira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kandi abantu bashaka kuraramo baraza bakabacumbikira.

Ahantu haba hubatse inzu nziza cyane zigerekeranye ziba zirimo n'ibirahuri kandi abantu bajya kuzirararamo cyangwa se bakajya gukoreramo ibirori; imbere haba hateye indabyo haba hari n'abantu ndetse bakora amasuku n'imodoka ziba ziparitse mu mapave.

Inzu nziza cyane bita amahoteri, ziba zubakishije amatafari ahiye, zisizeho n'amarangi asa n'umweru, ikindi nanone ziba zishakaje amategura, imbere haba hateye indabo ndetse hariho n'amapave abantu bakandagiraho.

Amazu bubaka yo gucumbikamo iyo abantu bwabiriyeho bajya gucumbika, cyangwa se bashaka kuruhuka bajyamo, ubundi abantu baba bakoresheje ubukwe bashaka gukoreramo bakajya gukodeshamo ubundi ubukwe bugatahiramo.

Abantu bacuruzaga imbada hariho uba yicaye asigatiye n'umwana yitwitiriye n'umutaka, kandi afite agakapu ashiramo amafaranga bamuhaye, ari gucururiza mu ndobo, kandi ubundi acururiza mubase, yashinzemo n'ibiti bakozamo bari guhereza abaje kugura.

Abantu bari gucuruza imyenda y'amabara gatandukanye harimo amashuka ,imyenda isanzwe y'abana, iruhande hariho inzu y'umuryango ukinze ariko kuri uwo muryango handitse ngo sasa neza shopu bigaragara yuko bacuruza imyenda yo gusasa ndetse n'iyo kwiyorosa.

Ahantu bacuruza amazi aba ari mu ducupa twanditseho ngo nire. Ni uducupa tunini tureture tuba duteretse kudutanda kuri etageri hejuru, kandi utu ducupa baducururizamo amazi nko mujyi, cyangwa se mu nzira, muri botike wahagera ukagura ukanwa.

Aho bacuruzaga icayi, amandazi, imigati bakagira n'ibyo kunywa harimo amaji ga salama, za novida, amazi, za cita za yawurute kandi akabati kabo bagashizemo ibirahuri ku buryo umuntu uri hanze aba abona yuko bafite iyo mikati, ikindi kandi mu mpande bakikijeho amarido ku buryo abaje kunyweramo icayi baba bicaye hirya nko mucumba.

Ahantu bacururiza, haba hari isoko ryubakiye , rifite hasi no hejuru , hose barahacururiza , kandi hanze haba hari amagare n'amamoto . Ahantu bari gutwara haba ari no muri kaburimbo.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko baje guhaha imifuka, imyenda kandi biba birambitse hasi, haba harimo n'abantu bacuruza amayinite ya emutiyene hamwe n'umutaka bacururizamo ayandi mayinite ya eyateli.

Ahantu bacuruza haba hameze neza harimo ibintu bitandukanye amavuta, amasabune, umuceri badaha ndetse n'isukari bita irovo, ikindi nanone baba bafite n'umunzani bapimiraho abantu baza guhaha.

Isoko ryiza ry'ibiribwa ni muri etaje， bacururizaga hasi ku bisima， harimo karoti， imiteja， inyanya， ibijumba，intoryi，harimo abantu batandukanye bacuruzaga n'abandi bari guhaha.

Aho bacuruza imyenda harimo imyenda y'amabara atandukanye, ay'umutuku, ay' umuhondo, ay'ubururu, imyenda imwe iranazinze, iyindi iramanitse. Hicayemo abantu babiri, umwe yambaye agapfukamunwa k'umutuku, undi yambaye akandi kagiye gusa n'umweru.

Isoko ryiza ryubakiye, bacuruzaga amavuta yo kurya, amaji, amanovida, udutambaro two guhanagura amasahane ndetse n'ibikapa bitaga ibirondoni. Harimo abantu bacuruzaga ndetse n'abaje guhahiramo.

Nkuko bigaragara, aha hantu hari urujya n'uruza rw'abantu, abari kwinjira n'abari gusohoka, kandi ku muryango hicaye umusekirite ucunga umutekano.

Ahantu bacuruza ibikoresho biba bitandukanye, haba hari isiniya iteretseho ibirahuri, ku ruhande haba hari ibiyiko, amafoke, amadobo, amajagi, ikindi kandi haba hari imbaho baterekaho iyo baba bari gucuruza.

Ahantu bacuruza imyenda itandukanye haba harimo: amakabutura, imipira, ibitambaro abantu bipfuka, ingofero, amasogisi y'amabara atandukanye ikindi nanone bagira imikandara abantu bakenyera kandi bayicuruza imanitse. Hasi haba hari amapave abantu bakandagiraho.

Ahantu bacuruza za kanta na za bulake heya shampo ziba ari nziza cyane bashyira mu misatsi abantu barabarangarira ikindi nanone bacuruza na za panasupa kandi biba biri mu gikarito.

Abantu bagira amashamba barayatema, bakayatwika bakavanamo amakara, bakasuhuza abantu bakayagura kubera kuko ari bwo batekesha kumbabura cyane cyane cyane mu mugi nibo bakunda kuyagura.

Ahantu bacuruza imbuto ziba zitandukanye, habamo amaronji, imineke ya kamara, ibinyomoro ndetse n'inanasi, ikindi nanone haba hariho inkoko bacururizaho intonore, ndetse n'indi iba iriho avoka.

Ahantu bacururiza haba ari heza cyane, harimo n'amakaro ndetse habamo n'inzugi zisize amarangi y'umweru zifite n'ibirahuri. Haba harimo imiryango irimo imyenda bacuruza, ndetse n'abantu bakaza baje kuyigura.

Ahantu bacururiza ibikoresho biba bitandukanye, habamo amasafuriya batekeramo, amabase, bafuriramo, ibisorori, imbabura, ibikosi ndetse bagira n'ibyuma, na za po z'abana. Ikindi nanone bacuruza ibyo kurya habamo umuceri n'amavuta.

Abahinzi baba ari abagabo barahinze amashu bakayitaho bakayashyiraho n'ifumbire ryitwa imvaruganda, bakamenera yamara kwera bakayasarura, bakagajana ku muhanda bagiye kuyagurisha, bategereza abantu bazaga kuyagura kandi amashu aba meza cyane.

Ibipipiri biba birimo ubushera bacuruza, kandi buraryoha. Ikindi, none, buva mu masaka. Iyo bayahinze, bakayinika, bakayakuramo, bakayanika, bajya kuyabetesha, akavamo ifu nziza cyane, ari yo bakuramo ubushera.

Isoko riba ryubakiye ari isoko ryiza cyane rya etage, riba ririmo n'ibirahuri hariho n'ibishushanyo bishushanyijeho abantu, kandi hasi mu muhanda hari kugendamo amagare n'abantu na za moto baba bari muri kaburimbo.

Ahantu bacuruza ibintu bitandukanye, haba harimo korogate na saradine yitwa Jambo, ivamo isosi iryoshye, ikindi nanone bacuruza na karikiratirise bakoresha bari gukora imibare, kandi babicuruza biri mu bikarito.